Iduka ririmo ibicuruzwa by'ubukorikori bimeze neza kandi birangwamo amabara menshi. Harimo ibiseke biboshye, imitako y'amaherena akozwe mu bipesu, ibiseke, n'ibindi bikoresho by'ubukorikori byakozwe n'abahanzi. Ibi bicuruzwa byateguwe neza kandi byinshi bigaragazwa n'isura nziza y'umuco n'ubuhanga bwa gakondo.

Iduka ririmo urumuri ruhagije, rifite ama etajeri impande zombi zuzuyemo ibicuruzwa bitandukanye. Har'ibyapa bimanitse hejuru ku gisenge byerekana ibice bitandukanye by'iduka. Har'umuntu kandi ugaragara muriyo nzira irimo ibicuruzwa. Hari indobo iri hagati igaragara y'umutuku.